Ibigo bitanga serivisi z'u ubwishingizi mu Rwanda binezezwa nuko abanyarwanda barushaho gusobanukirwa agaciro ko kugira ubwishingizi muri sosiyete zitandukanye, ni byiza ko buri munyarwanda wese asobanukirwa neza agaciro ko kugira ubwishingizi.

Gukoresha ikoranabuhanga mu bigo by'ubwishingizi byafashashije abaturarwanda gusobanukirwa neza akamaro k'ikoranabuhanga muri serivisi zigiye zitandukanye, bityo abanyarwanda banezezwa n'uko ibigo by'ubwishingizi bigenda byiyongera ari byinshi.

Kuba serivise zikozwe ku ikoranabuhanga zikomeze gushyirwa imbere, abaturarwanda banezezwa n'uko ibi ngibi bibafasha kuko bibarinda gukora ingendo zitari ngombwa ikindi kandi bakaba babasha kwihutisha imirimo yabo.

Gukoresha ikoranabuhanga mu kwizigama byafashije abaturage bose kuko biborohereza kandi bigatuma badata umwanya wabo bagana aho bizigamira cyangwa mu matsinda, ikindi kandi gukoresha ikoranabuhanga bibungukira amafaranga menshi ugereranije n'ahandi.

Aha ni mu ikaragiro ry'amata aho hagaragaramo imashini zagenewe gutunganya amata, hakagaragaramo ameza, harimo indobo, harimo amakaro. Iyo urebye ku nkuta hariho irange ry'ubururu, urukuta rwiza cyane rusa n'ubururu ndetse aha hantu ni heza pe.

Serivisi za banki zitangirwa ku ikoranabuhanga, buri muturarwanda wese agomba kuzisobanukirwa kugira ngo yirinde uburyo bwo guhererekanya amafaranga hakoreshejwe intoki, dusobanukirwe kandi twumve neza umumaro wo gukoresha ikoranabuhanga mu guhererekanya amafaranga.

Abakora umwuga w'ubucuruzi banezezwa nuko serivisi batanga zibasha kugera kuri bose kandi zikabageraho zibanogeye, ikindi kandi abagura ibicuruzwa banezezwa nuko bahabwa ibicuruzwa byujuje ubuziranenge bityo bakabasha kugira ubuzima bwiza.

Ni byiza ko yaba umuguzi n'umugurisha bumvikana ku biciro kugira ngo babashe kuba bagura, ikindi kandi iyo habayeho kumvikana igiciro biba byiza, kugira ngo yaba ugura ndetse n'ugurisha hatagira uruhenda undi.

Abacuruza ibicuruzwa bitandukanye yaba imyambaro ibyo kurya, ndetse n'imitako banezezwa n'uko Abarwanda basobanukirwa neza akamaro ko kugura ibikoresho nk'ibi, mu buzima bwabo bwa buri munsi.

Ibikoresho bitandukanye bikoreshwa mu ngo twavuga nk'amateremusi, amabasi, ndetse n'ibindi bikoresho nk'ibyo ni bimwe mu bikoresho byiza kandi buri rugo rwose runezezwa no kuba rufite ibi bikoresho.

Sosiyete y'itumanaho ya MTN yafashije abaturarwanda bose kumenya gukoresha ikoranabuhanga, ikindi kandi yafashije buri munyarwanda kumenya guhererekanya amafaranga hakoreshejwe ikoranabuhanga, ibyo bikaba ari inkingi y'iterambere mu rRwanda.

Ikinyabiziga k'ibinyamitende kikoreye kigaragara cyakorewe mu Rwanda n'abagabo batambuka muri iyo kaburimbo n'imodoka nyinshi ziparitse zitegereje abagenzi.

Ikigo cy'igihugu gishinzwe imisoro n'amahoro Rwanda reveni otoriti kinezezwa nuko abarebwa n'izi nshingano babikora kandi babikunze ikindi kandi abasora banezezwa nukouko imisoro batanga yubaka igihugu bityo u rwanda rukarushaho gutera imbere.

Abaturarwanda bakomeje gusobanukirwa neza akamaro ko kuzigama amafaranga kuko bibafasha kwiteza imbere, ikindi kandi ibigo bibafasha muri ubu buryo bikaba bigenda bibungukira amafaranga bityo ni ngombwa ko umuturarwanda yumva neza agaciro ko kuba yakizigama hakoreshejwe ikoranabuhanga.

Kumva ndetse no gusobanukirwa neza akamaro ko gutanga imisoro, bifasha abarebwa n'iyi ngingo kuba babikora, kandi bakabikora ku gihe, bityo igihugu kikabasha gutera imbere, bityo u Rwanda rukaba rwagera heza rwifuza.

Amafaranga by'umwihariko inoti, ni bumwe mu buryo bwifashishwa mu kugura ndetse no kugurisha, aho uyafite aba ashobora kuba yagera ku isoko akaba yabasha kubona ibyo yifuza.

Agaciro k'igura n'igurisha ku isoko kagenwa n'uko ivunjisha ku mafaranga mpuzamahanga aba ahagaze, kandi idolari rikaba ari ryo riba bifite agaciro kenshi ugereranije n'andi mafaranga.

Tengamara na tiveya twongeye kubatengamaza, ishimwe kuri tiveya ryongeye gutangwa ni nyuma y'ubugenzuzi isuzuma n'ibikorwa byo kugaruza umusoro byakozwe dukomeje gusaba ibiyamu niba utariyandikisha kanda kannyeri maganainani urwego ukurikiza amabwiriza nibayandikishije zirikana fatire ya ibiyemu no kwandikisha nimero yawe ya telefone itanga n amakuru.

Ibigo bitanga serivisi zo kuvunja amafaranga bifasha abaturarwanda kubona ibyo bakeneye ku masoko kuko ufite amafaranga bamuvunjira bityo akaba yabona ayo akeneye.

Ibiro bishinzwe ivunjisha bifasha abatura Rwanda kuba babona amafaranga mu buryo butandukanye aho ivunjisha rikorwa ikindi kandi ni byiza buri mutura Rwanda wese asobanukirwa neza akamaro ko gukoresha ikoranabuhanga mu guhererekanya amafaranga .

Ibiro bitangirwamo serivisi z'ivunja n'ivunjisha, bigomba kuba bifite ibyuma by'ikoranabuhanga aho bifasha ababigana kugira ngo babone serivisi bakeneye, ikindi kandi batanga serivisi nziza kugira ngo ababagana banegerwe na serivisi batanga.

Ishusho iri mu ibara ry'ubururu ndetse n'umweru ishushanyijeho telefone iri kugaragazaho akanyenyeri maganinani urwego hari imibare yanditswe impande hariho amagambo ari mu rurimi rw'icyongereza ndetse n'andi ari mu ururimi rw'ikinyarwanda makeya na nimero za telefoni.

Inyubako zitangirwamo serivise zitandukanye urugero nk'ibirebana n'amafaranga, zagiye zubakwa hirya no hino mu gihugu kugira ngo abaturarwanda bose bamenye kandi basobanukirwe neza agaciro ko kwizigama ndetse no kuzigama amafaranga yabo, kugira ngo babe babashe kubona inyungu mu gihe kizaza.

Intebe zo mu nzu zikoze mu biti cyangwa se mu mbaho, ni zimwe mu ntebe zigaragara neza, aho buri wese aba agomba kumva agaciro ko kugira intebe nk'izi zigezweho mu nzu kuko zigaragara neza ikindi kandi zikaba zihendutse ugereranije.

Mu Rwanda inyubako zitandukanye zigiye zifite ibikoresho bigezweho mu nzu, aho twavuga nk'ameza, intebe, ibitanda ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye bifasha umuturarwanda wese kuba aheza.

Bamwe mu bakora ibikoresho bikoze mu biti cyangwa se mu mbahoho bavuga ko akazi kabo bakora kabatuze kandi bagatangaza ko ibikoresho bakora ku isoko biba bihendutse kandi biramba ugereranije n'ibikoze mu bindi bikoresho.

Ibikoresho byo mu ngo bikozwe mu mbaho, twavuga ameza, ibitanda, ni ibikoresho byiza kandi biramba ugereranije n'ibindi. Ni byiza ko twumva agaciro ko kuba twasigasira ibi bikoresho, bityo bikaba byaramba.

Ibice byinshi bitandukanye by'igihugu mu mijyi cyane cyane, usanga hari inyubako zijya zifite amapisine, aho abaturage bagenda bakajya kwishimisha, aho boga, abandi bagasanga bajya gukina hafi kuko bibarinda kugira ubushyuhe bukabije cyane cyane mu bihe by'Impeshyi.

Ni byiza ko buri muturarwanda wese agira ubwishingizi bw'abantu ndetse n'ibintu, kuko bimufasha kuba yagwa mu bihombo mu gihe atashinganishije ibikorwa bye, ni byiza ko buri muturarwanda wese asobanukirwa neza akamaro ko kugira ubwishingizi.

Mu Rwanda banki zitandukanye zifasha abaturarwanda kuba bakiteza imbere aho bagurizwa amafaranga kugira ngo biteze imbere, ikindi izi banki zifasha abaturarwanda kuba bakiteza imbere mu buryo butandukanye zibaguriza amafaranga.

Kubitsa ndetse no kuzigama amafaranga ni bumwe mu buryo bugezweho bubasha gufasha buri muturarwanda wese kuba yakiteza imbere, ni byiza ko buri wese asobanukirwa kandi akagira umuco wo kumenya kwizigama kugira ngo azagire ejo heza.

Ibitaramo bitandukanye bikorerwa mu Rwanda ni bumwe mu buryo bwinjiriza igihugu cy'u Rwanda, kandi aha ngaha abaturarwanda ndetse n'abanyamahanga babasha kwidagadura, bityo ni byiza ko u Rwanda rujya ruhora rugira gahunda nk'iyi yo guhuza ibyamamare.

Abakora akazi k'uburani batangaza ko imirimo bakora ibasha kubatunga mu buzima bwabo bwa buri munsi, aho babasha kubona ibyo bakeneye bityo bagatunga imiryango yabo kandi bakaba nabo bakitunga bo ubwabo.

Mu bice bitandukanye by'igihugu, hagiye hari amasoko yubatse ku buryo bugezweho, ikindi kandi aya masoko aba arimo urujya n'uruza rw'abantu ndetse n'ibinyabiziga, ayo masoko kandi aba afite inyubako zigiye zitandukanye zitangirwamo serivisi zitandukanye bityo abanyarwanda bakabona serivisi nziza.

Ubucuruzi ni umwe mu mwuga winjiriza abantu amafaranga kandi ukaba utunze benshi, ukaba ukorwa hatagendewe ngo uherereye mu kahe gace k'igihugu, ni byiza gushora amafaranga mu bucuruzi aho ushobora gucuruza imboga, imbuto, imyambaro ndetse n'ibindi bicuruzwa bigiye bitandukanye ukaba wabasha kwiteza imbere.

Abacuruza imbuto bavuga ko bibatunga kandi abaguzi nabo bakavuga ko banezezwa nuko bagenda babona imbuto ahatandukanye nk'avoka, imineke, bityo bakabasha kugira imirire myiza.

Ibigo bitanga serivisi z'itumanaho ndetse no guhanahana amafaranga byafashije abaturarwanda kubona serivisi zitandukanye zigiye zijyanye n'amafaranga, bityo buri wese agomba gusobanukirwa neza agaciro ko gukoresha ikoranabuhanga mu guhererekanya amafaranga.

Serivisi zo guhererekanya amafaranga hakoreshejwe ikoranabuhanga zikomeje kugenda ziyongera mu gihugu, aho morongo irindwi na gatanu ku ijana bakoresha ikoranabuhanga mu guhererekanya amafaranga, dusobanukirwe kandi twumve akamaro ko gukoresha ikoranabuhanga mu guhanahana amafaranga.

Abaturarwanda bavuga ko gukoresha ikoranabuhanga mu guhererekanya amafaranga byagiye bigabanya ubujura kandi bakavuga ko iyo babitse amafaranga yabo ku ikoranabuhanga baba bizeye umutekano wayo.

Abatanga serivisi zijyanye no guhanahana amafaranga hakoreshejwe ikoranabuhanga banezezwa n'uko uyu murimo ubatunze kandi abahabwa izi serivisi bakaba bazishimira kuko nta buriganya ikindi kandi bakaba bashobora kubona amafaranga ku gihe kandi bakaba banezezwa na serivisi bahabwa.

Guhererekanya amafaranga hakoreshejwe ikoranabuhanga, ni bumwe mu buryo bwizewe, ikindi kandi ababikora bavuga ko abakiriya baza babagana ari benshi, ni byiza ko buri muturarwanda wese asobanukirwa neza akamaro ko gukoresha ikoranabuhanga mu guhererekanya amafaranga.

Sosiyete z'itumanaho mu Rwanda zikomeje gufasha abaturarwanda kubona serivise z'ikoranabuhanga aho zibafasha kubona uburyo bwo guhamagara ndetse no kubona ama inite ndetse na simukadi ku giciro cyiza.

iyi ni inzu nziza yo mu bwoko bwa etaje igerekeranyijemo inshuro ebyiri igizwe n'amabara y'umuhondo amadirishya ni umukara n'inzugi nuko ifite imbuga nini ushobora gukiniramo wowe nabawe mwishimana.

Tengamara na tiveya twongeye kubatengamaza, ishimwe kuri tiveya ryongeye gutangwa ni nyuma y'ubugenzuzi isuzuma n'ibikorwa byo kugaruza umusoro byakozwe dukomeje gusaba ibiyamu niba utariyandikisha kanda kannyeri maganainani urwego ukurikiza amabwiriza nibayandikishije zirikana fatire ya ibiyemu no kwandikisha nimero yawe ya telefone itanga n amakuru.

Uburyo bwo kugura no kugurisha hakoreshejwe ikoranabuhanga, ni bumwe mu buryo bwizewe kandi bigezweho, dusobanukirwe kandi twumve neza umumaro wo guhererekanya ibicuruzwa hakoreshejwe ikoranabuhanga ku buryo bwizewe cyane.

Serivisi zo kugura no kugurisha zikorerwa ku ikoranabuhanga, zafashije abaturarwanda kuba babona ibyo bakeneye, aho babibona batagombye kugera aho biri ahubwo bakabibona bagiye kubifata.

Ibigo bitanga serivisi zo kurangira abantu ibicuruzwa hakoreshejwe ikoranabuhanga, banezezwa n'uko aka kazi kabatunze kandi bikaba bifasha buri muturarwanda wese kuba yabona ibicuruzwa akeneye, by'umwihariko ibijyanye n'amazu aba agurishwa.

Kabeza mu mujyi wa Kigali ni hamwe mu hagaragara inyubako nziza kandi zigurishwa ku biciro byiza, aha ngaha biragaragara ko buri muturarwanda wese wifuza kugura inzu agomba kugera muri utu duce kugira ngo abe yabona inzu zigurishwa ku giciro cyiza.

Inzu y'ubwisungane gusa hariho abakozi ba emutiyene n'abakiriya baje kugana ikigo cy'ubwisungane cyitwa buritamu, kiri mu nyubako isa n'iyubakishije amabati n'ibirahuri.

Abakora umwuga wo kugura ndetse no kugurisha amazu mu mugi wa Kigali, batangaza ko kuba inyubako zo muri Kigali zihenze bibabera imbogamizi zo kuba batabasha gukora umwuga wabo neza, kuko rimwe na rimwe usanga hari igihe bahomba.

Utubati twiza dushyashya bari gusiga amarangi ukaba wadukoresha ubikamo ibintu yaba imyenda, ndetse n'imitako.

Ibigo bitandukanye bifasha abaturarwanda gusobanukirwa ndetse no kumenya aho baba bagomba gushakira inzu zikodeshwa cyangwa izigurwa, kugira ngo babe babasha gukora imirimo yabo ya buri munsi.

Mu Rwanda iterambere rirakomeje kuko inyubako zigezweho mu Rwanda zigiye ziri mu bice byose by'igihugu, amagorofa mu mijyi ndetse n'ahandi hose hatandukanye mu bice by'igihugu, bityo abanyarwanda bakabasha kubaho neza, batuye neza.

Ibigo bitandukanye bitanga serivisi zo kugura no kugurisha inzu, biramenyesha abanyarwanda bose ko izi serivisi ziba zishobora kubageraho kandi aho baherereye hose, mu gihe bakeneye inzu, baba bagomba kumenya ibiciro byabo kandi ku gihe.

Kugira ahantu heza ho gukorera imirimo y'ubucuruzi ni bimwe mu binezeza abacuruzi, kuko baba bafite umutekano w'ibicuruzwa byabo, bityo abakiriya bakabageraho ku gihe kandi, bakabasha kubona ibyo bakeneye mu buzima bwabo bwa buri munsi.

Amakoperative agenda akora imirimo itandukanye atangaza ko gushyira hamwe byatumye biteza imbere kandi, bakabasha kurwanya ubukene kuko bagenda bakora imirimo itandukanye, twavuga abahinga amakawa ndetse n'abakora imyuga y'ubudozi kugira ngo biteze imbere, babashe gutera imbere iyo bashyize hamwe, kuko bahuza imbaraga.

Inyubako zigezwaho mu mujyi wa Kigali ni kimwe mu bimenyetso bigaragaza ko u Rwanda ruri gutera imbere, urugero twavuga nk'amatara ndetse n'imihanda igezweho ya kaburimbo, ibinyabiziga byinshi.

Abahahira amagururiro yagezweho, banezezwa nuko basanga nta kajagari kaba kari mu isoko, ikindi kandi ibyo bakene bakaba babibona ahagaragara. Ni byiza ko buri wese yumva agaciro ko kuba yahahira mu isoko rigezweho.

Mu biranga Umujyi habamo imihanda myiza ya kaburimbo ifite amatara, inyubako zigezweho, urujya n'uruza rw'abantu ndetse n'ibinyabiziga ni kimwe mu biranga ko Umujyi uri gutera imbere, kandi bikaba bigaragaza ishusho nziza y'Igihugu.